Iyi foto iragaragaraho ababyeyi batatu, bambaye udupfukamunwa, bicaye hasi mu murima, mu muririma uhinzemo, inanasi.

Iyi foto iragaragaraho abantu benshi batandukanye, hagaragaraho umugabo w'umwirabura, uri gusuhuza umugabo w'umuzungu.

Iyi shusho iragaragaza abantu batandukanye harimo abagore ndetse n'ababyeyi b'abapapa bafite udukapu duteretse ku meza ndetse n'amazi.

Iyi foto iragaragaraho hoteri, imbere ya hoteri hariho intebe ziryamaho abantu bavuye muri pisine iri imbere yazo.

Iyi shusho iragaragaraho umuhanda ucoyemo umurongo w'umuhondo, urimo umugabo utwaye moto, wambaye ishati y'ubururu.

Iyi foto iragaragaraho umugabo uri gusunika igare, rihetse amabati, yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ingofero.